Ubwo mperuka kujya mu mujyi wa Kigali mvuye iwacu i Huye, nanyuze ahantu hari amatente meza cyane, barambwira ngo habereye egisipo, nahaguze agacupa k'amazi ndeba n'imitako ihari, ndavuga nti ''koko umujyi wa Kigali urakeye''.

Ejo bundi nagiye mu bitaro bya Butare ngiye kwivuza, uzi kugenda ukicara ku murongo ugasangaya abantu mirongo itatu bari imbere yawe, uhita wumva ukize rwose, ubona ko utarembye ahubwo hari abarwaye kukurusha.

Umwuga w'igipolisi ntabwo ukiri umwuga ukorwa n'abasore gusa, aha ngaha uyu muntu wari utwaye imodoka yari ari kwandikirwa n'umupolisi w'umudamu ugaragara ko akiri mutoya rwose, abadamu bagannye imyuga iyo ari yo yose.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa Rowayale, ni imodoka ikorera mu Mujyi wa Kigali, iba irimo imyanya yo kugenda mwicaye ndetse n'abandi bakagenda bahagurutse, iyi modoka bayise akazina bayita ngo ni shira umuteto.